Ubuhinzi bwa kijyambere, aho ubuhinzi bukoreshwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, uburyo bwo gukoresha inyongeramusaruro, aho ikigori kiva mu butaka kugira ngo kizatange umusaruro bakagifumbira mu buryo bugezweho, kandi bakagishyiriraho itaka kigahingwa aho cyabugenewe , bityo bikabasha imbuto ikaboneka ikagera ku baturage ,aho babasha gutubura umusaruro ukaba mwinshi, kandi hakoreshejwe ifumbire.

Ubuhinzi bujyanye n'iterambere. Ubuhinzi bw umusaruro w'umuceri bugiye kuboneka, aho umusaruro uri guterwa umuti n'abagoronome, kugira ngo utange umusaruro uhagije kandi ufite ubuziranenge, aho ba nyirawo bari gutera umuti, bityo bigatuma babona umusaruro mwinshi kandi umeze neza ufite ubuziranenge.

Inyongera musaruro aho iri mu nzu yabugenewe, aho iri mu bubiko, ikaba iri mu mifuka aho abaturage baza kuyigura kugira ngo babashe kongera umusaruro wabo mu buhinzi bwabo, bityo bika bikabateza imbere mu buhinzi bwabo, kuko umusaruro wabo bikuba myinshi iyo bakoresheje inyongera musaruro.

Ifumbire y'inyongeramusaruro, aho yashyizwe mu bikoresho byabugenewe kugira ngo ibashe kugera ku baturage aho bayitondetsetse neza, kugira ngo igere ku baturage, maze babashe kuyiteza kuyikoresha mu buhinzi bwabo bongera umusaruro, bityo bigire umusaruro wabo wiyongera kandi ube mwinshi bazeze byinshi.

Ubuhinzi bwa kijyambere, aho ababishinzwe bashyira inyongeramusaruro ku bihingwa by'ibigori, kugira ngo bibashe gutanga umusaruro, wiyongere wikube kabiri, maze bakazabonamo amafaranga menshi bigatuma ba baguramo ibintu bakeneye, kandi n'abatanga inyongera umusaruro bakabona inyungu, kuko bahembwa bishimishije bitewe n'uko baba batanze ubujyanama.

Umusaruro w'ikawa ugiye kuboneka, aho bawutera umuti kugira ngo were neza utange umusaruro mwinshi cyane, abawuhinze bawutunganye bawujyane mu ruganda, maze bawujyane ku isoko bawugurishe babone amafaranga abafasha kugura ibindi bintu bakeneye mu buzima.

Umusaruro w'inyanya ugiye kuboneka, aho uri guterwa umuti kugira ngo uzatange umusaruro uhagije kandi ntibubashe gupfa. Umusaruro w'inyanya ugiye kuboneka kugira ngo ba nyirawo bazawugurishe babonemo amafaranga, maze bunguke babonemo ibindi bintu babura bibatunga bya buri munsi.

Umusaruro w'imboga, aho abagoronome bari gutera imiti, aho bakurikirana ibihingwa bahinze bakabitera umuti. Kugira ngo umusaruro wiyongere, kandi ibihingwa byere neza bifite ubuziranenge, kugira ngo nibabijyana ku isoko bizatange amafaranga kandi babashe kuguramo ibyo bakeneye. Ababihinze kandi na bo bamere neza.

Umusaruro w'amafi wamaze kuboneka, aho ubworozi bwo mu mazi bwamaze gutanga umusaruro w'amafi, maze abayorora bakabona amafaranga yo kwifashisha bagurishije amafi yabo, maze abandi bakaza kuyagura, bakagajyana iwabo bakayateka, bityo bakayarya, bakabaho neza bafite ubuzima bwiza bubarinda indwara, bityo bigatuma na ba nyirawo bagira ubuzima bwiza.

Uburobyi bw'amafi, amafi ava mu mazi, ikusanyirizo ry'amafi. Ni byiza ko turya amafi kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Aya ni amafi aho atunganyirijwe, kugira ngo ajyanwe kugurishwa, habonekemo andi mafaranga adufasha muri ubu buzima.

Umusaruro w'amafi wamaze kuboneka. Aho uburobyi bw'amafi bwatanze umusaruro w'amafi. Aho ba nyirabwo bayazanye aho agomba gutunganyirizwa kugira ngo bayagurishe maze babonemo amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Aho babonye amafaranga yo gukomeza gukora akazi kabo, kandi bagasagura amafaranga yo kubika nayo kwizigama, mu gihe bazaba bakeneye ayo kwifashisha.

Icyokezo cy'amafi, aho botsa amafi bakayotsa neza, bakoresheje akuma kabugenewe, maze bagakoresha n'amakara, maze amafi agashya neza, bakayagaburira abakiriya bakabaha amafaranga yo kwifashisha, kandi bakayarya ameze neza yahiye kubera bayokeje neza.

Ubworozi bw'amafi, umusaruro w'amafi wabonetse ari mwinshi, aho washyizwe mu bitebo byabugenewe kugira ngo utunganywe neza ugezwe ku isoko, maze ba nyirawo babone amafaranga yo kwifashisha, baguramo ibindi bintu bakeneye mu buzima bwabo. Amafi ari mu bitebo byabugenewe, kugira ngo agezwe ku isoko, aho agomba kugurishwa.

Icyuzi bororeramo amafi bororeramo amafi, amafi aba mu mazi agatanga umusaruro, ba nyirayo bayoroye baza bajya kuyagurisha bakaguramo ibindi bintu bakeneye bibafasha bikabagirira akamaro mu buzima busanzwe babamo.

Ikiyaga gitandukanye gitanga amafi atandukanye, aho imisozi ikikijwe n'ikiyaga yitwa ibirwa; aho abaturage batuye muri ibyo birwa, batunzwe no kuroba. Ubundi bakabona ibibatunga mu buzima bwabo bwa buri munsi, bagasagurira n'isoko kandi bikatwibutsa umuco w'Abanyarwanda babagamo kera.

Umusaruro w'amafi umaze kuboneka, aho ubu bucuruzi bukorerwa mu mazi bwamaze gutanga mafi menshi, wagejejwe aho agomba gutunganyirizwa, kugira ngo banyirayo babonemo amafaranga yo kwifashisha, bityo bagire ubuzima bwiza, kandi basagureho nayo kurya bo ubwabo, maze barye indyo yuzuye, bitume bagira ubuzima bwiza bwa buri munsi kandi bubagire n'umusaruro.

Ubuhinzi bw'ibirayi bigiye kwera bikavamo ibindi bintu dukeneye. Ibirayi ni byiza mu buzima bwacu. Bidutera imbaraga, bigatuma tugira ubuzima bwiza. Umurima urimo ibirayi by'ururabo bigiye kwera, ukikijwe n'inyubako.

Umusaruro wa voka ugiye kuboneka aho voka zigiye gutanga umusaruro, maze ba nyirazo bakazihanura bakazitunganya bakazijyana aho zabugenewe, kugira ngo zibashe kubaha umusaruro maze bazigurishe, bazabonemo amafaranga yo kwifashisha bagura ibindi bintu bakeneye, bityo bikabafasha kubaho neza maze bagasagura n'amafaranga.

Umurima usaruwemo ibigori ni ubutaka buhingwamo ibintu byose bitandukanye; yaba, iyo bamaze gusaruramo ibigori, bitegereje kuwuhinga ukazatubyarira uwundi musaruro kuko ibigori byo byavuyemo bijyanwa mu isoko kugurwamo undi.

Umusaruro w' ibirayi ugiye kuboneka, n'uw' ibitoki biteye mu murima urimo ibirayi. Umusaruro w'ibirayi uri hafi kuboneka ba nyirawo bakabona amafaranga bakawugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha, hamwe n'uw' ibitoki kandi bakajyanaho bagasagura n'ibyo kurya mu rugo iwabo bityo bakagira ubuzima bwiza, kandi bakaba bafite n'imbaraga kuko ibitoki n'ibirayi bitera imbaraga.

Umusaruro bw'imbuto ugiye kuboneka, wi bininyomoro aho biteye, aho bigiye kuzatanga umusaruro, maze ba nyirabyo bakabasha kubona amafaranga yo kwifashisha baguramo ibintu bakeneye, aho ibinyomoro bigiye gukura bikazatanga umusaruro, bityo ababiteye bakabona inyungu iturutse muri ibyo binyomoro babigurishije, kandi bagasaguraho n'ibyo barya, bigatuma bagira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi aho ari mu rwuri aho intama ziri mu rwuri zigomba kurisha ubwatsi kandi zigatanga umusaruro aho abaturage bazishyira mu rwuri zikarisha ahantu basanzwe bahinga bityo zigatanga n'ifumbire ituma bifashisha mu buhinzi bwabo maze intama zigatanga umusaruro abaturage bagakuramo amafaranga yo kubika kuri banki nabwo kubafasha mu bindi bikorwa bya buri munsi.

Umusaruro w'ibirayi ugiye kubone, ugiye kwera ukabagirira akamaro ba nyirawo, bakawujyana ku isoko bakabonamo amafaranga yo kwifashisha, bityo bakaguramo ibintu bakeneye mu buzima bwabo, maze bikabateza imbere, aho basagura nayo kubika kuri banki, kugira ngo babone ayo bazakoresha igihe bazaba bayakeneye.

Umusaruro w'ibitoki n'amateke ugiye kuboneka, aho ba nyirawo bazawutunganya neza maze bakawujyana ku isoko, bityo bakabona ibiryo barya kandi bakabona n'ibyo kugurisha bakaguramo ibintu bakeneye, bityo bikabafasha kugira ubuzima bwiza barya indyo yuzuye, ivuye mu buhinzi bwabo bakora bwa buri munsi, kandi bakagurisha bakabonamo n'amafaranga yo kwifashisha bagura ibindi bintu bakeneye.

Umurima ngo bahingamo imyaka itandukanye, ahantu hakorerwa ubuhinzi butandukanye, aho basaruyemo ibigori bikaba byaratanze umusaruro aho hategerejwe kongera guhingwamo ibihinga bifasha abaturage kubaho neza, kandi bikaba umusaruro utuma bagira ubuzima bwiza bizigamira muri banki, kandi bakabasha no ku kurya, maze bikabatunga mu buzima bwabo bwa buri.

Ibimera bitandukanye bidukikije aho ibimera bitandukanye harimo inturusu z'umweru hakabamo imishubi, hakabaho n'ibindi bimera bitandukanye bidukikije, ibimera bikaba bitukururira imvura bigatuma imvura igera ku baturage ku gihe kandi neza.

Umusaruro w'avoka ugiye kuboneka, uri mu giti urihafi kuboneka ba nyirigiti cy'avoka, bakazazihanura bakazitara, bakazijyana kuzigurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima, babamo bwa buri munsi.

Inyubako igamijwe kubamo abantu, ikikijwe n'uruzitiro rw'ibyatsi. Imbwa iri imbere y'inyubako. Inyubako ni nziza iriho inzira inyuramo abantu bajya mu mirima gusarura imyaka bahinze, ikikijwe n'ibidukikije bitandukanye ibyatsi...

Umurima w'ubuhinzi wamaze guhingwa aho ba nyirawo bategereje guteramo imbuto runaka bikazatanga umusaruro, umusaruro waboneka bakazawusarura bakawujyana ku isoko bakabonamo amafaranga yo kuguramo ibindi bintu bakeneye, babikuye muri uwo murima wagenewe guhingwa.

Umusaruro wamaze kuboneka, aho nyirabyo bari kuwutunganya kugira ngo bawushire aho wabugenewe, babashe kuwutunganya neza, maze ujyanwe ku isoko, kugira ngo ba nyirawo babone ibibatunga kandi babone inyungu, amafaranga bagomba kuguramo ibindi bintu bityo basagure n'ibyo barya, bityo bitume barya indyo yuzuye bagire ubuzima bwiza mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umurima wasaruwemo ibigori, aho wamaze gusarurwamo ibigori bikaba byaragiye gutunganywa bikavamo umusaruro mwiza ushimishije, bikaba byarajyanywe kugurishwa kugira ngo ba nyiri umurima bunguke, kandi babashe kongera guhingamo ibindi bihingwa maze babone indi mbuto yo guteramo neza.

Umusaruro w'ibitunguru ugiye kuboneka, aho bizashyirwa aho bikusanyirizwa, maze bigategurwa neza aho bipakirwa mu mifuka yabugenewe maze bikagezwa ku isoko, maze ba nyirabyo bakabona ububigurisha ,bakabona amafaranga yo kuguramo ibintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi cyane.

Ibiti bidukikije, ibiti by'ubwoko butandukanye harimo ibiti by'intusu y'umweru, bakunda kwifashisha bakoramo imiti yabugenewe maze bigatuma tugira ubuzima bwiza, kubera ko tuba twanyoye imiti yakozwe mu bimera bitandukanye kandi bigaragara aho abantu batuye.

Umusaruro w'ibirayi ugiye kuboneka, aho biri mu murima bimeze neza, aho ba nyirawo bagiye kuzawutunganya neza bakawujyana mu isoko, aho bawugenewe, maze bakabonamo amafaranga yo kwifashisha bigatuma baguramo ibindi bintu bakeneye mu buzima, kandi bagasagura n'ibibatunga mu miryango ya bo maze bakabona n'amafaranga babika kuri banki, kugira ngo bazabafashe.

Umusaruro guta ibitunguru bigiye kuboneka, aho ibitunguru bihingwa bikajyanwa mu isoko, maze ababihinze bakabona amafaranga yo kwifashisha, kandi bagasagura n'i ibyo barya bo ubwabo bibatunga, aho bawujyana ku isoko bakabona amafaranga yo kwifashisha, kandi bakaguramo ibindi bintu bikenewe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ikibuga gikinirwamo umupira bakidagaduriramo n'ibindi bintu n'indi myidagaduro itandukanye gutwara amagare ,gukina kw'abana bakishima bakishimira uburyo bari mu rungano ,gifite umucaca mwiza, w'abantu bicaramo bagakoreramo inama cyangwa se bakaba batangirwamo ibibina.

Umusaruro w'ibirayi uri hafi kuboneka, aho ba nyirabyo babihinze, bakaba barabikoreye neza bakabibagara, bakabitera umuti, bakaba bategereje ko byera, bakabikusanya, bakabijyana aho byabugenewe, maze bakabigurisha bikabaha amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, bityo bakaguramo ibyo bakeneye.

Umusaruro wa avoka ugiye kuboneka, aho ugiye kwera maze ba nyirawo bakawujyana ku isoko bakabaha amafaranga yo kwifashisha bagura ibintu bitandukanye, aho bagurisha avoka bagasagura amafaranga yo gukoresha ibintu byabo byo mu buzima bwabo, maze bagasagura n'ayo kubika bakizigamira mu gihe bazaba bayakeneye.

Umurima uhinze wo guteramo ibihingwa bitandukanye, imbere y'umurima hari uwundi murima utarahingwa, umurima ugizwe n'ubutaka ukaba ufite n'ibiti bitandukanye biwukikije. Umurima wahinzwe kugira ngo uterwemo ibihingwa bitandukanye, bituma tugira umusaruro.

Umusaruro w'imboga z'ibishayote ugiye kuboneka, aho umeze neza ukaba uri aho wabugenewe aho ugomba guhingwa, aho ba nyirawo bazabisarura bakabijyana ku isoko maze bakabaha amafaranga maze bakabasha kuguramo ibintu bakeneye kandi bagasagurira n'ibyo kurya, maze bakabirya bakagira ubuzima bwiza, kandi bakabona n'amafaranga yo kwifashisha mu buzima.

Umusaruro w'ibigori warabonetse， aho wasaruwe，ukajyanwa， ugakurwa mu murima， aho abahinzi ba nyirawo， biteguye kongera guhinga，uyu murima.

Umusaruro w'ibishyimbo aho ugiye kuboneka ukagezwa ku isoko, ku ba nyirawo bakaguramo ibintu bakeneye.

Ubworozi bw'amatungo magufi, aho ihene zorowe neza zikaba ziri mu biraro kandi zikaba zorowe neza. Zororererwa mu biraro byabugenewe, kandi bifite isuku, Aho butanga umusaruro kuri ba nyirazo, maze bakabona uburyo bifashisha n'inyungu muri ayo matungo magufi. Ariko amahene akabyara, bakabasha kubona ifumbire, kandi bakabona n'amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo ...

Umusaruro w'ibigori bigiye kuboneka, aho bihinze mu muririma, aho uri hafi kuzaboneka ba nyirawo bakawujyana ku isoko bagasagura n'ibyo barya, maze bamara kubigurisha bakabonamo amafaranga yo kwifashisha, andi bakazayabika kuri banki, kugira ngo bazajye bayaguramo ibintu bakeneye, kandi biteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro w'intoryi, n'inyanya, n'urusenda, wamaze kuboneka, aho ugiye gukusanywa, gukajyanwa aho rwabugenewe, ugashyirwa ugapakirwa mu mifuka, maze ubundi bukagurisha, maze ba nyirawo bakabonamo amafaranga, akabafasha kuguramo ibintu bakeneye, kandi bakabasha no gusagurira ayo kwizigama kuri banki, kandi bagasagura n'ibyo barya bityo bakagira ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Umusaruro w'avoka ugiye kuboneka , aho banyirawo bazawujyana ku isoko , maze bakawugurisha , bakabonamo amafaranga . Bityo, bikabaha amafaranga yo kwifashisha baguramo ibintu bakeneye . Bityo aho bamanitsemo ibikoresho bituma utamanukira hasi kugira ngo bazabone umusaruro mwinshi ushimishije. Bityo , bakazawujyana ku isoko, maze bakabonamo amafaranga , bagasagura no kubika kuri banki bakizigama kugira ngo bazabone ayo kubafasha.

Umusaruro w'amajeri mabisi，wamaze kuboneka， aho watunganyijwe ugashyirwa mu isafuriya， bakaba bagiye kuwuteka，maze ba nyirawo bakawuteka， bakawurya， maze bakagira ubuzima bwiza bigatuma bagira imbaraga zo kongera gukora cyane， kubera ko babonye umusaruro w'amajeri bakaguteka bakarya.

Umusaruro w'ibihingwa ngengabukungu, ugiye kuboneka aho uri gukorerwa neza, ubagarirwa ugasasirwa kugira ngo uzabashe kujyanwa ku isoko, maze ugemurwe utange amafaranga, maze abawuhinze babone inyungu kandi babashe no kubona amafaranga yo kwizigama, babika muri bake zitandukanye bityo bakabaho mu buzima bwiza.

Ubuhinzi bw'imboga aho umusaruro ugiye kuboneka, aho ba nyirawo bari kuwubagara bawutunganya kugira ngo ugire ubuziranenge. Aho umusaruro w'ibitoki nawo ugiye kuboneka kugira ngo utange umusaruro maze ba nyirawo babone amafaranga yo kwifashisha kandi babone n'ayo bizigama babika muri banki, bityo bikabateza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi .

Ubucuruzi butandukanye bw'ibintu bitandukanye，aho bacuruza ibihingwa， umuceri，amavuta， aho bacururiza ibintu abantu bakeneye， maze ba nyirabyo bakabona amafaranga， maze n'ababiguze bikabagirira akamaro，bakabona aho bahahira ibyo guteka， amavuta， umuceri，kandi bakabibika neza mu mifuka.

Umusaruro w'ibigori uri hafi kuboneka, aho bihinze mu murima, kandi bikaba bigiye kuzera maze ba nyirabwo bakazabonamo amafaranga ashimishije kubera ko babiteye neza, bakabiha ifumbire, bikaba bimeze neza, biri gukura neza, nta kibazo bifite, bakaba bategereje gusarura byeze neza.

Umusaruro w'ibirayi uri hafi kuboneka aho ba nyirawo bizigiye kuzawusarura bakawujyana ku isoko ukabaha ibintu bakeneye, maze bakabyifashisha mu kuguramo ibindi bintu bakeneye. Ni byiza guhinga ibirayi kuko bitanga umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Umusaruro w'inyanya wabonetse n'izindi mbuto zitandukanye, aho biri mu isoko kugira ngo bicuruzwe maze ba nyirabyo babihinze bakabonamo amafaranga abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, baguramo ibintu bakeneye bagasagura n'amafaranga yo kwizigama, azabafasha mu gihe bazaba bayakeneye bashaka kuguramo ibintu bitandukanye, bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza kandi bakabaho neza cyane.

Umusaruro w'ibirayi warabonetse, aho wamaze gushyirwa mu mifuka kugira ngo ubashe kugurishwa, maze ba nyirawo babashe kubona amafaranga yo kwifashisha, abafasha gukemura no kuguramo ibindi bintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza cyane.

Umusaruro w'ibitoki wamaze kuboneka aho ibitoki byatunganyijwe bikajyanwa aho bigomba kugurishirizwa maze ba nyirabyo bakabona amafaranga ngo kwifashisha baguramo ibintu bakeneye kandi bagasaguraho n'ibyo barya bigatuma bagira ubuzima bwiza kandi amafaranga babonyemo amwe bakayabitsa kuri banki kugira ngo bizigamire bazabashe kugura mo ibintu bazaba bakeneye.

Umusaruro w'icyayi ugiye kuboneka aho ubuhinzi bw'icyayi bukorwa maze bugatanga umusaruro, aho bawusarura bakawujyana aho ugomba gutunganyirizwa, bityo banyirawo bakabasha kubona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bintu bakeneye, aho ufasha banyirawo kubika amafaranga bawukuyemo kuri banke.

Umusaruro w'ibigori wabonetse, aho uri gutunganyirizwa mu rugo, kugira ngo ubashwe kuvamo ibintu bitandukanye, ari byo ifu, kugira ngo uvemo ibiribwa abantu barya bikabafasha kubaho.

Ubu buhinzi bufasha ba nyirabwo kubona ibisarurwa byo kurya, ibiribwa bimwe bakabisarura bakabirya ibindi bakabijyana ku isoko maze bakabona amafaranga bakayabika kuri banki ayandi bakayaguramo ibintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bikabateza imbere bigatuma biteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro w'amajeri ugiye kuboneka, aho amajeri bayahinga aho abayahinze bagiye kubona umusaruro maze bakawutegura neza, bakawujyana mu isoko bakawugurisha maze bagasaguraho n'ayo kurya, maze bamara kuyagurisha bakabona amafaranga abafasha kugura ibintu bakeneye, ayandi mafaranga bakayajyana muri banki bakaba.......

Umusaruro bw'amashu warabonetse, ni mwinshi, umeze neza, bayajyanye mu isoko, bari gukusanyamo amafaranga kugira ngo avemo ibindi bintu bidufitiye akamaro, kurya imboga z'amashu ni byiza, kuko ziturinda indwara. Amashu ni ingirakamaro ku banyarwanda. Ubu yajyanwe mu isoko.

Umusaruro w'ibirayi uri hafi kuboneka, aho ugiye kuzaboneka, ba nyirabwo bakawujyana ku isoko, maze bikazabafasha kwiteza imbere mu bindi bikorwa bitandukanye. Guhinga ibirayi ni byiza bitanga umusaruro mwiza maze ba nyira byo bakishima bigatuma batera imbere mu buzima bwabo.

Umusaruro w'avoka wamaze kuboneka, aho rwashyizwe ahabugenewe kugira ngo utunganwe ugezwe ku isoko, kugira ngo abaguhinze babonemo inyungu kandi babonemo amafaranga yo kwifashisha baguramo ibintu bakenewe, kandi basagure n'amafaranga yo kwizigama kugira ngo azabafashe mu gihe bazaba baya keneye maze bityo bikomeze kubateza imbere, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro w'urusenda wamaze kuboneka ,aho ba nyirawo bawuhinze baje kureba uko umeze ,kugira ngo batangire bawusarure maze utunganwe, bawujyane aho bawugurishiriza ,kugira ngo babonemo amafaranga abafasha kugura ibindi bintu bakeneye ,maze bagasagura n'amafaranga yo kubika kuri banki, bityo bikabateza imbere mu buzima.

Umusaruro w'amatunda warabonetse, aho usarurwa ugakorwamo ibinyobwa bitandukanye, maze abawuhinze ukabaha amafaranga kandi ukabagirira akamaro, ugakurwamo n'ibindi bintu bitandukanye, bituma abawuhinze birinda indwara, n'abandi basanzwe bakawugura, bikabagirira akamaro kuko baba barya neza.

Umusaruro w'amatunda ugiye kuboneka, aho uri mu mirima kandi ukaba ukorewe neza ukaba uteguye, gufite inyunganizi, ufite ibiti biwushyigikira, ukaba uri mu murima, habonekamo n'indi myaka ari yo: amateke n'ibindi bihingwa bitandukanye, nk'urutoki. Ni byiza guhinga imbuto ziturinda indwara.

Umusaruro w'imbuto ugiye uboneka aho ba nyirawo bagiye kuzawusarura bakawutunganya bakawujyana mu isoko, aho imbuto zitwa Imbugu cyangwa se Gakeri zigiye kwera, maze zikajyanwa ku isoko zikagurwa. Aho abazigura bazirya zibarinda indwara, zikanatuma bagira ubuzima bwiza, abana bagakura neza bityo bikabafasha mu buzima bwabo.

Umusaruro w'ibijumba wamaze kuboneka aho babyogeje bakabishyira ku mufuka, aho bamaze kuboneka maze ababihinze bakabigurisha, bakabonamo amafaranga bakaguramo ibintu bakeneye ayakandi bakayabika kuri banki, kugira ngo bizigabire, bityo bizabafashe kugira ubuzima bwiza bwa buri munsi, baguramo ibintu bakeneye bishyura n'ibindi.

Umusaruro w'inyanya n'intoryi byamaze kuboneka. Aho byajyanwe aho bigomba gutunganyirizwa kugira ngo bigurishwe maze ba nyirabyo babonemo amafaranga yo kwifashisha, kandi babonemo na yo kugura ibintu bakeneye bya buri munsi, maze babashe no kwizigamira. Bityo amafaranga azabagoboka mu gihe bazaba bagize ikibazo. Kandi bazasagure n'ayo bazaguramo izindi mbuto zo guhinga.

Abahinzi bari gukora amatarasi y'imdinganire bigatuma amatarasi y'indinganire atuma abahinzi babona umusaruro mwiza ,kuberako amatarasi y'indinganire ntabwo ubutaka butemba ni ukurwanya isuri bigatuma abaturage babaho neza bagahinga bakeza ,kuberako ntabwo isuri itembana imirima yabo kuberako baba baciyemo amatarasi y'indinganire.

Umusaruro w'ibirayi wamaze kuboneka, aho wajyanywe mu isoko, kugira ngo ucuruzwe maze ba nyirawo babonemo amafaranga abafasha, kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, baguramo ibintu bakeneye, aho babona amafaranga bibafasha, mu buzima bwabo, kandi bagasagura nayo kwizigamira, bakabitsa muri banki, bakazabona nayo kuguramo imbuto yo guhinga ibindi birayi.

Umusaruro w'imboga wabonetse aho zihinze zikaba zimeze neza kandi zikaba zifasha ba nyirazo kurya indyo yuzuye, bityo bikabarinda indwara maze bagasagurira n'isoko bakagurisha bakabonamo amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bigatuma babaho neza babona ibyo bakeneye kubera guhinga inkovu.

Umusaruro w'imbuto zitandukanye wamaze kuboneka, aho avoka inyanya umusaruro wabyo wamaze kuboneka, aho avoka yatanzwe ikajyanwa mu isoko ikaba igiye gukurwamo amafaranga maze ba nyirabwo bakabona amafaranga yo kwifashisha kugira ngo baguramo ibintu bakeneye, kandi bagasagura n'amafaranga yo kubika bizigama, kugira ngo azabafashe mu gihe bazaba bahuye n'ikibazo babeho neza.

Umusaruro w'ibigori wamaze kuboneka, aho wajyanywe ku bwanikiro kugira ngo wanikwe maze wume neza, maze bawutunganye bawushyire mu mifuka bagujyane ku isoko ba nyirawo babone amafaranga yo kwifashisha no kuguramo ibindi bintu bakeneye, aho ba nyirawo batangiye guhungura ibigori kugira ngo bibageze kure.

Umusaruro w'imyumbati wabonetse aho bawukuye mu murima, bakawutunganya, bakawushyira aho wabugenewe, kugira ngo utunganwe neza, ujyanwe ku isoko, maze abawuhinze babashe kubona amafaranga, yo kwifashisha baguramo ibindi bintu bakeneye, aho basagurira no guteka, maze bakawuteka bakagira ubuzima bwiza, bugifite imbaraga bityo bakabaho neza.

Umusaruro w'ibigori ugiye kuboneka, aho biri mu murima bihetse bikaba byenda kwera, bigatanga umusaruro, maze ababihinze bakabaho neza, kandi bakabona amafaranga yokwifashisha, baguramo ibindi bintu bitandukanye, kandi bagasagura n'amafaranga yo kwizigama bakazaybika kuri banki, bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza kandi bakazagaguramo ibyo bakeneye.

Ubworozi bw'amatungo magufi, aho harimo ihene, aho iri mu cyanya cyayo, kugira ngo aho iri mu rwuri, kugira ngo ibashe kurisha, maze bayigaburire neza, izatange umusaruro uhagije, ba nyirayo bazabone umusaruro, aho bazayijyana ikabangurirwa, ikabasha gutanga andi mahene kandi igatanga n'ifumbire, bityo bakagira ubuzima bwiza, buturutse kubworozi bwabo.

Umusaruro w'ibirayi wabonetse, aho bari kuwukura, aho bari kubikura mu butaka babishyira hejuru mu mirima, kugira ngo bawukusanye, bawujyane aho bawugeneye, ba nyirawo bawuhinze bawugurishe, maze bakuremo amafaranga yo kwifashisha bagura ibindi bintu bakeneye, kandi basagure n'amafaranga yo kubika kuri banke yo kwizigamira.

Umusaruro w'ibishyimbo ugiye kuboneka, aho bihinzwe neza kandi ukaba uhinzwe kijyambere, aho abantu batandukanye baje kuwusura no kureba ibikorwa bikorerwa muri ubwo buhinzi. Aho ba nyirawo bawusarura bagakuramo ibiryo byo kurya, bigatuma bagira ubuzima bwiza. Bakagurisha bakabona amafaranga yo kugura ibintu bakeneye ayandi bakayabika muri banki.

Umusaruro w'ibishyimbo wamaze kuboneka, aho wasaruye ugakurwa mu murima ,bakawushyira aho ugomba kwanikirwa ,aho bagiye kuwutunganya, ugashyirwa mu mifuka ,uwundi bakawujyana ku isoko, bakawugurisha ,bakabona amafaranga yo kwifashisha bagura ibindi bintu bakeneye, ayandi bakayajyana kuri banki kugira ngo bayabike ,azabafashe mu buzima bwe..

Umusaruro w'amapera ugiye kuboneka, aho weze neza ukaba uhishije, aho bagiye kuzayahanura, maze bakayajyana mu isoko, bityo ba nyirawo bakabonamo, amafaranga yo kukwifashisha bagura ibindi bintu bakeneye, bityo bakanasagura imbuto zo kurya, bakagira ubuzima bwiza bubarinda indwara, kandi bakabona inyungu bagasagurira n'amafaranga yo gusevinga bashyira muri.........

Umusaruro w'avoka uri gutegurwa ,aho igihingwa cy'avoka kiri kubagarirwa kugira ngo gikure neza kandi kizatange umusaruro ushimishije. Maze ba nyiracyo bakazakibonamo umusaruro ushimishije kubera ko bagifashe neza ,bakakibagarira ,bakacyurira ,maze na cyo kikazatanga umusaruro ushimishije.

Amapera ari mu giti yareze, iyo yeze turayaca tukayagurisha tukayajyana mu isoko, tukaguramo ibindi bintu dukeneye tukanayarya atugirira akamaro kuko ari mu mbuto nziza, zituma tutarwaragurika indwara zitandukanye ni byiza ko duhinga amapera.

Umusaruro w'ibirayi wamaze kuboneka aho biri gukurwa kugira ngo bivanwe mu butaka bijyanwe aho byabugenewe, maze ba nyirawo bawujyane ku isoko babashe kubonamo amafaranga kwifashisha bagura ibindi bintu. Kandi basagure n'amafaranga yo kwizigama yo bazakoresha mu gihe bazaba bayakeneye, kandi bagasagura n'ibiryo byo kurya bityo bakagira ubuzima bwiza.

Umusaruro w'ibishyimbo ugiye kuboneka, urihafi kuboneka aho ba nyirawo, niguboneka bazawujyana ku isoko, maze bakawukuramo ibindi bintu, maze bakishimira inyungu babonye, mu musaruro w'ibishyimbo, ukabafasha gukemura ibindi bibazo bahura nabyo, bigendanye n'amafaranga kandi bakisagurira n'ibyo kurya.

Umusaruro w'ibigori ugiye kuboneka, aho bari kuwutera umuti kugira ngo uzagire umusaruro mwinshi kandi mwiza ufite ubuziranenge, aho banyirawo bazabijyana mu isoko, maze bagakuramo amafaranga yo kwifashisha bagura ibindi bintu bitandukanye, kandi bagasagura n'amafaranga yo kwizigama bakayabitsa muri banki, bityo bakazayaguramo ibyo bakeneye bibafasha mu buzima bwabo.

Inyembe ireze iri mu giti imeze neza, ni byiza ko tugomba kurya imbuto z'imyembe zigatuma tugira ubuzima bwiza. Iyi myembe iri mu giti, imeze neza iragaragara, tuzakuramo umusaruro nimara kwera tuyijyane mu isoko turebe ko hagurwamo ibindi.

Umusaruro w'amapera ugiye kuboneka, amapera arera bakayajyana mu isoko maze bakayagura, ba nyirayo bakabona amafaranga yo kwifashisha, bityo nabayaguze, bakayarya, agatuma bagira ubuzima bwiza na ba nyir'amapera bakabona amafaranga yo kuguramo ibindi bintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro w'imyumbati n'amateke umaze kuboneka aho watunganijwe neza kugira ngo ugezwe ku isoko maze ubashe gutanga amafaranga, ba nyirawo babone inyungu zo kuba babona amafaranga kandi basagure n'ibyo kurya, boguremo ibintu bakeneye basagure nayo kibitsa kuri banki akabafasha.

Umusaruro w'ibigori ugiye kuboneka, aho ba nyirawo bagiye kuzawusarura bakagutunganya neza, bakawujyana mu isoko, maze bakabonamo amafaranga yo gukoresha baguramo ibintu bakeneye, aho basagurira isoko, kandi bakagurisha amafaranga babonyemo bakayajyana kuri banki, bityo bakiteza imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi bagasagura...

Umusaruro w'icyayi wabonetse, aho watunganyijwe ugashyirwa mu bitebo, maze abawusaruye bakawikorera bawujyanye mu isoko kugira ngo bawutunganye uvemo icyayi cyo kunwa, maze ba nyirawo bakabona amafaranga n'abawusaruye bakabona amafaranga yo bakoreye, bityo bikabafasha mu buzima bwa buri munsi bwabo.

Umusaruro w'imyumbati wamaze kuboneka. Aho basoroma amababi y'imyumbati maze bakayajyana bakayatunganyamo imboga maze abaturage bakaza guhaha izo mboga bakajya kuzirya, maze bakishyura amafaranga, abahinze imyumbati bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, baguramo ibintu bakeneye kandi bagasaguraho n'imboga zo kurya bo ubwabo.

Umusaruro wa avoka, wamaze kuboneka. Aho wafashwe, ugatarwa, zigashya. Maze ukaba waragejejwe ku isoko. Maze naba nyirawo bagasaguraho n’izo barya. Ahobazirya zikabarinda indwara, bigatuma bagira ubuzima bwiza. Izindi bakazijyana ku isoko maze bakabonamo amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi bwabo andi bakayabika kuri banki.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, imbuto zitandukanye, imyenda, aho bacururizamo ibishashi byo kubikamo imyenda, aho haboneka imbuto zitandukanye arizo: imyembe, amaronji, ibinyomoro, wotameroni n'ibindi bicuruzwa bitandukanye maze abakiriya bakabigura ba nyirabyo ba...

Umusaruro w'ibitoki ,ibitoki byareze biratara barabitara birashya, ibitoki harimo: igitoki cy'imineke bitarashya ngo bibe imineke yo kurya ibitoki bimeze neza, ni imbuto bituma tugira ubuzima bwiza .Umusaruro w'ibitoki ukaba ugiye kugurishwa tukaguramo ibindi bintu duke.

Umusaruro w'ibihingwa bitandukanye aho dufite umusaruro w'ibishyimbo, umusaruro w'ingano, umusaruro wagejejwe mu isoko ukaba uri gushyirwa aho bagomba kuwugurira, ukaba uteretse ku nyubako iriho amatafari hasi kandi uri mu isoko riri imbere y'umuhanda, umusaruro wacu wageze mu isoko.

Ubworozi bw'amatungo magufi, aho inkwavu zikaba zibera mu kibuti, aho zirya ibyatsi n'izindi biribwa ba nyirazo bazigaburira kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, kandi babone n'ifumbire ituruka ku nkwavu, aho babona amafaranga bagasagura n'ayo kubika muri banke, kandi bagasagura n'ibiryo bakazirya.

Ubutaka buhingwamo imyaka itandukanye, aho bwamaze gutunganywa, bumaze guhingwa, butegerejwe gushyirwamo ifumbire. Maze bukaza guterwamo imbuto zitandukanye, aho butanga umusaruro, iyo bateyemo imbuto zitandukanye zirera, maze zigatanga umusaruro kuri banyirabwo, bakabona ibintu bituma bakomeza gukora ibyo bakeneye.

Umusaruro w'ibishyimbo wamaze kuboneka aho bari kuwutunganya kugira ngo ushyirwe mu mifuka, maze bawujyane ku isoko bawugurishe babashe kubona amafaranga yo kwifashisha bagura ibindi bintu bakeneye, maze bityo n'abawuguze bakabasha kuwuteka bakawukoramo indyo yuzuye.

Umusaruro w'ibishyimbo wabonetse uri gutegurwa, aho ugomba kujyanwa mu isoko, ukagurishwa, ugatanga ibindi bintu bikenewe mu buzima bwa buri munsi, umusaruro w'ibigori uri ku gugosorwa, w'ibishyimbo buri gugosorwa, ukajyanwa aho ugomba kujya baka.

Umusaruro w'ibishyimbo wamaze kuboneka, aho byatunganyijwe neza bikaba bifite ubuziranenge, bikaba bigiye kujyanwa mu isoko maze ba nyirawo bakabona amafaranga yo kwifashisha bakaguramo ibintu bakeneye, bityo bagasaguraho n'ibyo barya, bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza kandi bakabika n'imbuto yo kuzongera guhinga bayitera mu butaka, bityo bakabaho neza kubera ubuhinzi bukabateza imbere.

Umusaruro w'ingano aho uri gutunganyirizwa umaze gushyirwa mu mifuka kugira ngo ubone uko ugemurwa ku isoko, maze abawuhinze babone amafaranga abafasha mu buzima bwa buri munsi ,bityo babonereho no kugira ubuzima bwiza baguremo ibyo bakeneye mu buzima bwa buri munsi.

Umusaruro w'ubunyobwa bumeze neza, bwarabonetse, bumeze neza, burahari, tubujyana mu ruganda, bakabutunganyamo bukavamo ifu, ndabona harimo ubunyobwa butonoye, bumeze neza bwaratunganyijwe.

Umusaruro w'imbuto y'ibishyimbo wamaze kuboneka. Aho wasaruwe neza bukawutunganya ukanikwa. Ukaba uri gutunganywa ushyirwa mu bintu byabugenewe, kugira ngo ugezwe ku isoko, maze abawuhinze babone amafaranga yo kwifashisha, kandi basagurire n'isoko, maze babashe kubona ibyo barya bagire ubuzima bwiza, kandi bibagirire akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Baguramo ibintu bakeneye.

Umusaruro w'imbuto zitandukanye, umusaruro w'ubunyobwa wabonetse, aho wakusanyijwe ugashyirwa mu mifuka, kugira ngo ugurishwe maze abawuhinze babone amafaranga yo gukoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, baguramo ibintu bakeneye, aho uri ku isoko kugira ngo ubashe gutanga inyungu kandi ba nyirawo basagure n'amafaranga yo kwizigama, kandi babashe no kubona ibyo barya.

Umusaruro w'amasaka ugiye kuboneka aho ugiye kuzakusanywa ugashyirwa aho bawugeneye, kugira ngo ubashe gutunganywa neza ba nyirawo bawujyane ku isoko babonemo amafaranga yo kuguramo ibintu bakeneye, kandi basagurire n'ibyo bazarya kugira ngo bagire ubuzima bwiza ,bityo bikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bahaha amafaranga yabo.

Umusaruro w'imbuto y'ibishyimbo wamaze kuboneka, aho uri gukurwa mu murima, ugapakirwa ku binyabiziga byabugenewe, kugira ngo ujyanwe aho ugomba gutunganyirizwa, maze ukanikwa neza, ukavamo umusaruro mwiza ufite ubuziranenge, bityo abawuhinze bakawugurisha, bakabonamo amafaranga yo kwifashisha baguramo ibintu bakeneye, kandi bagasagurira n'isoko, n'imbuto yo guhinga, n'ibyo kurya.

Umusaruro w'ubunyobwa umaze kuboneka, aho umaze gusarurwa uwundi ukaba uri mu murima ugiye kuboneka, aho utondetswe mu mabase no mu bitebo, kugira ngo utunganwe ujyanwe mu isoko maze ba nyirawo babonemo amafaranga yo kwifashisha bagura ibintu bikeneye kandi basagure nayo kwizigama azabafasha mu gihe bazaba bayakeneye igihe byose.

Umusaruro w'ibihingwa warabonetse ushyirwa mu mifuka, ugezwa muri sitoke aho ugomba kubikwa kandi ukaba ubitse neza ku mbaho, udashobora kugera hasi kugira ngo utangirika bityo bigatuma udatanga inyungu ku bawuhinze, umusaruro ubitswe neza mu bubiko kandi uteretse ahantu heza ukeneye kugezwa ku isoko.

Umusaruro w’ubunyobwa wabonetse, aho uri gukurwa mu murima, ugashyirwa aho ugomba kwanikirwa kugira ngo utunganwe neza. Maze uzakusanywe, ushyirwe mu mifuka, maze bawujyane ku isoko, bawugurishe. Abawuhinze babone amafaranga yo kwifashisha, baguramo ibindi bintu bakeneye.

Umusaruro w'imbuto zitandukanye wamaze kuboneka, aho hari umusaruro w'ibishyimbo uw'amajyri, n'urw'ingano n'ibindi bitandukanye, aho wagejejwe ku isoko kugira ngo ubashe gutanga umusaruro, utanga inyungu, ba nyirawo babone amafaranga yo kuguramo ibindi bintu bakeneye, kandi basagurire ni'isoko, kandi babashe no kubika kuri banki ayo bazifashisha igihe....

Umusaruro witwa ikawa wamaze kuboneka, aho umaze gutunganywa kugira ngo ukorwemo ibindi bintu bivamo byabugenewe, aho bawukoramo icyayi maze bakagurisha amajyane. Bityo bikagera ku baturage bose, kandi abawuhinze bakabona amafaranga yo kwifashisha baguramo ibindi bintu bakeneye, bikabafasha no kuzongera guhinga indi kawa.

Umusaruro w'ubunyobwa wamaze kuboneka, aho wakuwe mu murima ugasarurwa neza ukaba utunganyijwe uri ku izuba kugira ngo wanikwe wume maze umere neza ,kugira ngo abawuhinze babonemo bawujyane ku isoko maze babonemo amafaranga yo kwifashisha, bityo ubagirire akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi baguramo ibintu bakeneye, kandi bagasagura na yo kubika kuri banke.

Umusaruro w'ibishyimbo wamaze kuboneka, aho bari kuwutunganya bakuramo ibyapfuye, kugira ngo usigaye utekwe, undi ujyanwe mu isoko, maze ba nyirawo baguhinze, babashe kubona amafaranga yo kwifashisha, bagura ibindi bintu, aho umusaruro w 'ibishyimbo byabonetse maze ugatunganywa neza, ukajyanwa aho bagenewe kujya.

Umusaruro w'imiteja wabonetse, aho yakusanyijwe igashyirwa mu bikoresho byabugenewe, maze ikagemurwa ku isoko abayihinze bakabona amafaranga yo kwifashisha bagura ibindi bintu bakeneye, ayandi bakayazigama bakayabika kuri banki, kugira ngo bajye bayaguramo ibintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro w'ibigori wabonetse, aho uri kugosorwa bakoresheje intara, bakawugosora bagakuramo imyanda kugira ngo utunganywe ushyirwe mu mifuka, maze ba nyirawo bawujyane ku isoko, babashe kubonamo amafaranga, bayaguremo ibintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bibafashe kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi.

Umusaruro w'ibishyimbo warabonetse ni mwinshi. Uri gutunganywa uranitse aho uzakusanywa ujyanwa mu isoko ukavamo ibindi bintu bidufitiye akamaro. Umusaruro w'ibishyimbo uranitswe, uri gutunganywa. Bari kuyora bike bashyira mu mabase. Ni byiza ko duhinga ibishyimbo kandi tukabirya tukagira ubuzima bwiza.

Ubuhinzi bw'imbuto y'ibishyimbo aho biri kuva mu butaka, aho biri hafi kuzatanga umusaruro uva mu butaka, mu butaka maze bikazera bikaba ibishogororo, byamara kubaha ibishogoro bigakora bigatanga umusaruro hakavamo imbuto abantu bakenera, mu guteka no kuta no kugurisha bakabonamo amafaranga yo gukoresha ibindi bintu bakeneye.

Umusaruro w'ubunyobwa ugiye kuboneka aho umeze neza, bukaba buri mu mirima, bukaba buri hafi kuboneka ababuhinze bakabujyana ku gihugu, kugira ngo bakuremo amafaranga yo gukoresha ibindi bintu bakeneye, bagasagurira nayo kubika kuri banki, guti zikaba bakazajya barazikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro w'ibigori wabonetse, aho uri ahabuge mu gikoresho cyabugenewe, aho bari kuwutunganya, bakawanika ku izuba, kugira ngo bawutunganye, umwe bazawugurishe undi bazawukuremo imbuto bazahinga ikindi gihe, maze bibafashe kugira inyungu, nibahinga bikera bagazasaruramo byinshi, maze bakabona inyungu nyinshi cyane.

Umusaruro w'ibigori wamaze kuboneka aho wagejejwe ku bwanikiro, kugira ngo wanikwe neza wume, numara kuma utunganwe neza ushyirwe mu mifuka maze ujyanwe ku isoko, kugira ngo abawuhinze baze kubonamo amafaranga yo kwifashisha bagura ibindi bintu, kandi amafaranga basaguye ni amafaranga yo kwizigamira, babitsa muri banki zitandukanye ......

Umusaruro w'ibigori wamaze kuboneka aho watunganyirijwe mu murima, maze ukera ugasarurwa aho bawujyanye mu nzu y'ubuhunikiro yabugenewe, igomba guhunika ibigori n'indi myaka itandukanye, aho ibigori bibitswe neza kandi bikaba biri gutunganywa, kugira ngo igihe babikeneye babijyane ku isoko ,maze babonemo amafaranga yo kugura ibindi bintu ku bantu babihinze ibigori.

Umusaruro w'ibishyimbo ugiye kuboneka, aho uri mu murima ariko ukaba ugiye kwera, bari hafi kuwusarura, maze bayirawo bawutunganye neza, maze bawanike wume neza, bawupakire mu mifuka yabigenewe ,maze nibarangiza bawujyane ku isoko, bityo baze kubona amafaranga yo kwikenuza mu bindi bintu bakeneye, kandi basagure n'amafaranga yo kubika mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro wa soya warabonetse. Aho rwatunganyijwe kugira ngo ujyanwe mu isoko. Maze ugurishwe ba nyirawo babone amafaranga yo kwifashisha.

Ubunyobwa bumaze kuboneka aho buri gukurwa mu murima bukajya gutunganyirizwa ahabugenewe, maze bakabwanika bukuma, bwamara kuma bakabukusanya, bakabushyira mu mifuka, bityo bakabujyana ku isoko, bakazabonamo ibintu bakeneye bibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Umusaruro w'ubunyobwa warabonetse, aho uri gutunganwa ukurwa mu murima ugashyirwa mu mabase, kugira ngo abawuhinze bawujyane ku isoko, maze butunganyijwe neza maze ubahereze amafaranga bazifashisha, bagura ibintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro w'ubunyobwa umaze kuboneka, aho bari kuwusarura mu murima, bakawushira mu mako, aho barikuwutunganya kugira ngo bawugeze aho bawanika, numara kuma, bazawufate bawujyane mu isoko, maze babone amafaranga yo kwifashisha, kandi bibafashe no mu mirire yabo ya buri munsi bateke, bariye, bahaze.

Umusaruro w'imboga wamaze kuboneka aho habonetse imiteja itandukanye, maze ikaba iri gukusanywa ishyirwa mu gitebo kugira ngo ijyanwe ku isoko maze abayihinze babone amafaranga yo kwifashisha, kandi bagasagurira n'ibyo kurya mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo bakayijyana ku isoko bakabonamo amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, baguramo ibintu bakeneye bya buri munsi.

Umusaruro w'ibishyimbo aho wakusanyirijwe mu mifuka kugira ngo ujyanwe ku isoko, utugirire akamaro bityo tuze kuguramo ibindi bintu dukeneye. Umusaruro wacu uteretse mu mifuka ,uratoranyije urarobanuye, utegerejwe kugezwa aho ugomba kugurishirizwa.

Umusaruro w'ibishyimbo wamaze kuboneka aho biri gutunganywa bigosorwa hakoreshejwe intara kugira ngo ubashe kugezwa ku isoko maze utunganwe neza wanikwe, ushyirwe mu mufuka ubashe kugezwa ku isoko, maze ba nyirawo babonemo amafaranga yo kwifashisha baguramo ibindi bintu bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umusaruro w'imbuto wabonetse aho ba nyirawo bategereje bari kuwutunganya bawugosora, kugira ngo ugire ubuziranenge ,maze bawushira mu mifuka aho bawujyana mu isoko ,bityo ukabasha kubaha amafaranga yo kwifashisha, bakuramo ibindi bintu bakeneye, kandi bagasagura n'amafaranga nko kwizigama bagashira muri banki, bityo bakajya bayakoresha .

Umusaruro w'ibigori wamaze kuboneka, aho watunganyijwe ukaba uri mu mufuka, aho uteretsemo ibikombe, bibafasha gupima bagurisha, abantu baje kugugura, maze ba nyirawo, bakabona amafaranga yo kwifashisha, baguramo ibintu bakeneye, mu buzima bwa buri munsi kandi bagasagura n'amafaranga, yo kubika bakizigamira kuri banki, kugira ngo bazabashe kuguramo, ibintu bazaba bakeneye, igihe bazaba bayakeneye.

Umusaruro wa soya wamaze kuboneka, aho soya zatunganyijwe zikaba zajyanywe aho zabugenewe kugira ngo ba nyirazo babashe kuzigurisha maze babonemo amafaranga yo kwifashisha abafasha kuguramo ibindi bintu bakeneye, kandi basagurire n'isoko basagure nayo kwizigama muri banki, kandi basagure n'ibyo kurya byabo ubwabo maze bityo bibagirire akamaro mu buzima bwabo.

Ubworozi bw'amatungo magufi aho wirora ingurube maze ikabwagura ibibyana byinshi cyane, maze ikabyonza bakayitera imiti bakanayikingira kugira ngo ibashe kubaho mu buzima bwiza yororoke. Kandi itange umusaruro kuri banyirabo. Itange n'ifumbire itange n'amafaranga bityo banyirabyo bakuremo ibintu bakeneye.

Ubworozi bw'inka aho inka iri mu birararo yabugenewe, ikaba yitabwaho kandi ikagaburirwa neza, ikaba ikingirwarwa igaterwa umuti ku gihe, izafuhirirwa umuti w'icya uburondwe kandi ikozwa mu gihe ari ngombwa, bityo igatanga umusaruro, ba nyirayo bakabasha kubona umusaruro mwiza kandi ikabaha ifumbire, bityo ikabafasha mu buhinzi n'ubworozi bwabo.

Ubworozi bw'amatungo magufi, aho ingurube ibasha kuba iri mu kiraro cyayo. Aho ikorerwa imiti igahabwa ubuvuzi bw'amatungo kandi neza.

Ubuvuzi bw'amatungo aho amahene yose yakusanyijwe agagahurizwa mu kibuga hamwe, kugira ngo ahabwe ubuvuzi, aho bayatera inshinge, kugira ngo agire ubuzima bwiza. Kandi bakayambika n'amaherena kugira ngo abashe kugira ubuzima gatozi, bityo ba nyirayo bakazabona umusaruro ushimishije, afite ubuziranenge maze n'abayakingira nabo bakabona amafaranga.

Umusaruro w'amatungo magufi wamaze kuboneka. Aho amagi aturutse ku nkoko ziba zarorowe neza yamaze kuboneka. Aho yashyizwe mu bikoresho byabugenewe, kugira ngo abayakeneye baze kuyagura kandi bayatware neza atabasha kwangirika, afite ubuziranenge. Aho ba ny'iri nkoko bazana amagi maze akagurishwa, bityo bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ubuvuzi bw'amatungo aho bukorerwa intama kugira ngo bamenye ikibazo ifite, bityo ba nyirayo bikabafasha kugira ubuzima bwiza aho intama yabo iba yavuwe n'andi matungo atandukanye akavurwa bityo bigatuma ubworozi butera imbere bugateza imbere ba nyirabwo bakabonamo ibyo bakeneye.

Inka iri mu nyubako, iri mu kiraro aho ihabwa ubuvuzi, ikagerwaho n'ubuvuzi bw'amatungo kugira ngo itange umusaruro.

Ubuvuzi bw'amatungo aho inka zakusanijwe zigashyirwa mu kibuga, kugira ngo zibashe gukingirwa no kuvurwa indwara zirwaye, izindi bazambike amaherena aziranga kugira ngo zitabasha kubura abazivura, abaganga b'amatungo bakabasha kubona amafaranga bagafasha n'abaturage, bakorora inka zifite ubuziranenge bityo bakazijyana ku isoko zikabaha umusaruro, bakabona amafaranga.

Inka z'inyarwanda ziri mu rwuri, aho ziri mu rwuri aho baziragira zikarisha ibyatsi kandi zikaba ziri ahantu hameze neza hakikijwe n'ibimera bitandukanye, hakikijwe n'uruzitiro rw'ibimera bitandukanye, aho inka bazikama zigatanga umusaruro, zikabyara n'izindi nka bityo bigatanga umusaruro kuri banki.

Ubuvuzi bw'amatungo .Aho abaganga bakoresha amatungo batunganya imiti bayishyira mu bikoresho byabigenewe kugira ngo babashe kuyitera inka , bazikingire maze zigire ubuzima bwiza ,zitange umusaruro ufite ubuziranenge. Bityo ba nyirazo babone inyungu kandi babone n'amafaranga bakwifashisha ,bagura iyi miti, bityo bizabafasha mu buzima bwabo.

Ubworozi bw'inkoko, aho inkoko ziri gucanirwa urumuri maze zikagira ubushyuhe. Imishwi y'inkoko iri gucanirwa urumuri maze ikagira ubushyuhe, igasusuruka ,bityo igatanga umusaruro ushimishije ,aho ikura neza ,ikagira ubuzima bwiza ikarindwa indwara ,maze zigakura.

Ubworozi bw'amatungo magufi, yarimo ingurube aho zibangurirwa zigaterwa imiti kugira ngo zibashe gutanga umusaruro, maze ba nyirazo babashe kubona inyungu bagurisha, bityo zikabaha umusaruro maze bakabonamo amafaranga akabafasha kwiteza imbere mu bintu bakeneye, kandi bakabona n'ifumbire no gukoresha mu buhinzi.

Ubworozi bw'amatungo magufi bwatanze umusaruro w'amagi, aho inkoko zatanze umusaruro mwinshi, aho babika amagi yagezemo, aho bagabika aho abantu baza kuyagura bagasiga amafaranga, maze ba nyiri amagi bakabona amafaranga, andi bakayajyana kuri banki amafaranga, bityo bakabaho mu buzima.

Ubworozi bw'ingurube aho ziba mu kiraro, ingurube ziri gukura, ziri hafi gutanga umusaruro. Zirima zikabyara izindi ngurube, ba nyirazo bakazigurisha bakazijyana ku isoko, bakabonamo amafaranga yo kwifashisha mu bindi bintu bakeneye.

Ubworozi bw'amatungo, aho amatungo yororwa magufi maze ba nyirayo bakayazana akegera ubuvuzi, umuvuzi w'amatungo akayatera inshinge, akayakingira akayaha n'ibinini bituma agira ubuzima bwiza bakabona umusaruro uturutse kuri ya matungo kandi umusaruro wabo bakawugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu bacururizamo amagi menshi aturutse ku nkoko, iyi nzu bayicururizamo amagi ari mu makureti kugira ngo atabasha kumeneka, maze bakayagemura, abaje kugura amagi bakajya kuyakoresha iwabo, bakayatwara ku makureti neza atabashije kumeneka maze na ba nyiri amagi bakabona amafaranga yo kwifashisha.

Mu buvuzi bw'amatungo magufi, aho gutubura ubworozi bw'inkoko, aho zihabwa inkingo, kandi zigaterwa inshinge, kandi zigatuburwa, zigaterwa n'intanga, bityo zigakura vuba, zigatanga umusaruro mu gihe gito, maze ba nyirazo bazorora zikabasha kubaha umusaruro, bakazigurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha, bityo bigateza imbere ba nyirazo, maze n'abazivura bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo magufi, amahene ya kijyambere kandi ameze neza, aho ari mu gipangu aho yororerwa, maze agateza imbere abagorora, bigatuma babaho neza bakabona umusaruro n'inyungu yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi, aho abyara akororoka, kandi bakayakingira bakoresheje veterineri.

Ubuvuzi bw'amatungo aho amatungo yazanywe aho yabigenewe ku kibuga kugira ngo abashwe kuvurwa aho hari n'indege yabugenewe ishinzwe gutwara imiti y'amatungo, aho abaveterineri babishinzwe bagomba kuvura amatungo bagatera inshinge, bakayakingira kandi bakanayapima n'ubundi burwayi bwose yaba arwaye bityo akagira ubuzima.

Ubworozi bw'inkwavu aho ziri mu kibuti, aho zitegereje kugaburirwa, aho bari kuzitemagurira ibyatsi by'amafunguro yazo. Zigomba kuba aho zitabwaho kugira ngo zitange umusaruro, maze ba nyirazo babonemo inyungu, bagurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Bityo zikabaha n'ifumbire, ibafasha mu bijyanye n'ubuhinzi, maze bagahinga bakabona umusaruro uhagije.

Inyamaswa z'ishyamba, aho inyamaswa z'ishyamba ziba mu biti bibera mu ishyamba, aho hari inkende yibereye mu giti, akaba ari ho iryama, itunzwe no kurya ibyatsi n'ibindi bimera biba mu ishyamba, aho abakerarugendo baza kuzisura kugira ngo zinjirize igihugu amafaranga, kandi nazo zigire akamaro mu bidukikije ku buryo bwiza.

Inyamanswa ziba mu gasozi, aho tuhafite inyamanswa yo mu bwoko bw'ibiguruka, nk'inyoni ifite umunwa rusongoye, ikagira amaso ikagira amababa, aho iba mu biti, ikibera mu ishyamba, itunzwe no guhinga, ibyo iri burye, bya buri munsi, aho iri mu bidukikije, ikibera mu ishyamba, aho ifite ubwoya, n'amababa bituma iguruka.

Inyoni ifite umunwa muremure n’ijisho， iri mu giti itegereje ko yabona ibyo irya. Inyoni ni nziza ituma mu buzima bwacu， tugira ibidukikije birimo inyoni n'ibiguruka bitandukanye，inyoni itegereje ko yatora icyo kurya.

Inyama inyamaswa zo mu gasozi aho zibera mu ishyamba, aho ziri mu ishyamba ryabugenewe, aho zigomba kuba zihiga imihigo maze zikabona ikizitunga, kandi zikabaho zifite ibizitunga kandi zigashyirwa no muri pariki bityo zikinjiriza igihugu bityo zikabaho zibungabunzwe kandi zikaba zifitiye igihugu akamaro, kuko abakerarugendo baza kuzisura maze bigatanga umusaruro.

Inyamaswa zo mu ishyamba aho ziba mu biti, aho arizo mu bwoko bw'ibiguruka hagaragaje mu migi kugira ngo zibashe gushakisha ibyo zirya kandi zibungabunge zijya mu bidukikije kuko iyo ziri mu bidukikije zituma tugira ubuzima bwiza bityo nazo zikabaho zishaka ibyo zirya zikomora ku byo abantu bahinze mu buhinzi bwabo babonyeyo.